Ikoraniro ryitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abayobozi, ryari ryabaye ku itariki ya makumyabiri ukwezi kwa cumi na kumwe, bibiri na makumyabiri na kane, ryabereye i Kigali, bari bari kwiga ku cyorezo cyitwa Marburg, bari gushaka uburyo bagihagarika.

Igikorwa cyo kwita ku buzima bwa muntu, hari abantu benshi, abajyanama b'ubuzima, abaganga, aho bari gupima umwana w'uruhinja uburebure afite.

Ababyeyi bafite abana batoya bari mu kigero cy'imyaka ibiri, bari ahantu hamwe basuwe n'abantu babigisha kugaburira abana babo indyo yuzuye.

Ni igikorwa cyo gushimisha umubiri, aho abana b'urungano bari mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu n'irindwi, bari mu mazi, bari koga, bigaragara ko bishimye...

Umubyeyi w'igitsina gore wambaye igitenge n'ishati, avuye kuvoma amazi yikoreye indobo ni umutuku, afite n'indi mu ntoki y'umuhondo ari guca ahantu hari ibiti mu ishyamba.

Igishushanyo kigaragaza, umunsi Mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Ikoraniro ry'abantu batandukanye, higanjemo urubyiruko, bari aho igikorwa cyabereye, bamwe bari imbere baricaye, abandi bari inyuma barahagaze, inyuma yabo hari igipapuro kigaragaza ingingo baganiriyeho, yerekeye iby'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu nzu, yicaye ku gatebe k'urubaho, imbere ye hari umusambi, iyo nzu yicayemo ifite idirishya, irafunguye, urabona ko ari kwitekerezaho.

Umuntu w'igitsina gabo, w'igikara cyane, asa n'urwaye kuko amaso yatukuye, yazanye amarira, ibimwira, ubona ko arwaye rwose.

Umusore ukiri muto, wambaye imyenda isa nabi, inkweto zacitse, arasa nabi rwose, yicaye ahantu hasa nabi, iruhande rwe, hari imyanda, hirya ye, hari abantu n'ikinyabiziga, uyu musore bigaragara ko yigunze, ari wenyine.

Igikorwa kigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo ndetse no kuyitaho, aho bagaragaza uburyo amenyo bakore isuku mu kuyitaho, mu kuyabungabunga.

Umuntu w'igitsina gore ukuzemo, wambaye ibirahure by'amaso, yicaye imbere ye hari agacupa karimo imiti hari n'akandi afashe mu ntoki ari gufata imiti.

Umuntu w'igitsina gore bigaragara ko ashaje abo twita abakecuru yambaye urunigi rw'amasaro rugizwe n'amabara y’umukara yambaye nakambodi ku bururu bwerurutse yambaye n'icyo twita umushanana urabona ko yambaye ibya kinyarwanda yambaye n’agakomo afite n'idangururamajwi bigaragara ko yari yitabiriye ibirori bamuha ijambo hirya ye hari imodoka.

Umusaza uri hagati y'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani, ari kumwe n'abuzukuru be babiri bari gusangira ari kubaganiriza.

Umuntu w'igitsina gabo, bigaragara ko akuze, ari kwita ku buzima bwe akora imyitozo ngororamubiri, ari kumva indirimbo ndetse afite n'utuntu mu maboko tumufasha gukora iki gikorwa neza.

Umubyeyi w'umugore, ukuze ufite imvi ndetse n'umwana w'umukobwa bari kumwe, urabona ko barishimye, bahuje urugwiro.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda kigizwe n'ingombajwi eshatu hari R iri mu ibara ry'ubururu, hari B iri mu ibara ry'umuhondo, na C iri mu ibara ry'icyatsi. Ayo mabara akaba ari na yo agize idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Hirya handitseho amagambo arambura izo ngombajwi.

Ku ivuriro hari abakozi bahakora b'abaganga b'igitsina gore bambaye impuzankano z'akazi, bakaba bambaye n'udupfukamunwa bigaragara ko ari abaganga koko.

Icyumba cyo kwa muganga, igice kimwe kiragaragaza aho umurwayi aryamye ku gitanda yiyoroshe, hari imashini ziri kumufasha guhumeka, ikindi gice kiratwereka ibikoresho bihari bifasha umurwayi guhumeka igihe nta mwuka uhagije afite, hakaba hari igikoresho cyagenewe kujyamo imyanda.

Inyubako igaragara nk'aho ari ivuriro ikaba yubakijwe amatafar ahiye ifite inzugi n'amadirishya n'ibirahure bisize irangi ry'umweru, iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ubusitani burimo indabo ikaba yanditseho n'amagambo agaragaza arangira umuntu.

Ivuriro rifite inyubako eshatu, izo nyubako ziratandukanye, hari igeretse hari isakajwe amabati y'umutuku n'indi ifite irange ry'umweru, izo nyubako zikaba zikikijwe n'ubusitani burimo indabo, insina ndetse hari n'abantu bigaragara ko baharwariye, bari kumanuka bagenda.

Kwa muganga mu cyumba kigari aho hari igikorwa cyo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru, iki gikorwa cyitabiriwe n'abasheshe akanguhe harimo n'abaganga, abagabo n'abatumirwa bakiri bato, bari kwigisha abakozi gutanga amakuru mu gihe hari ihohoterwa ribakorewe.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga, harimo ibikoresho, harimo agatanda umurwayi aryamaho, hakaba hari n'imashini ifasha muganga kumenya icyo umurwayi arwaye, iyi mashini ikoreshwa iyo umuganga agiye kureba ibice by'imbere mu mubiri.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Bwerere ikikijwe n'ubusitani burimo indabo, ibiti, hakaba harimo umuntu usa n'uhakura yita kuri ubwo busitani.

Kimwe mu byumba bigize ivuriro runaka, iki cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye cyane cyane byifashishwa mu gutwara abantu bihenge ndetse harimo n'indi yifashishwa mu kuvura abantu batandukanye.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga kiri mo ibikoresho bitandukanye kirasukuye kirasa neza hariho amarido amarangi meza y'umweru hari isaha, hari agatanda umurwayi aryama ho bari kumufata ibizamini bashaka kureba ibice byo mu mubiri imbere bagera nko mu nda hari n'imashini zifashishwa muri icyo gikorwa.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ikomeza imitsi, ituma azana ibituza, urabona ko afite ibigango, impande ye hari ibishushanyo by'ibyo kurya, umuntu ashobora gufata kugira ngo agire umubiri umeze neza harimo imbuto, amagi, ibikomoka ku nyamaswa ndetse hari n'icupa ry'amazi.

Inzu yabugenewe irimo ibikoresho abantu bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibintu byinshi bitandukanye, ibipirizo by'amabara atandukanye y'icyatsi n'umuhondo, hirya hari n'abantu.

Ubwoko bw'akagare gakoreshwa kwa muganga, kakaba gahabwa, umuntu ufite ikibazo, cy'ubumuga, ashobora kuba yamugaye bwoko cyangwa se amaguru, aka kagare kakaba kamufasha kugira aho agera.

Umuntu w'igitsina gabo ufite icupa rya mazi ariywa amazi bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri. kuko afite ibunzwe ari kunywa amazi nk'umuntu washakaga ufite inyota. byaba byiza kunywa amazi avuye muri siporo.

Ikibaya kinini kirimo ibimera, ibyo bimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti, muri ibyo bimera harimo abantu bigaragara ko bari kubyitaho babibagarira, abandi basarura.

Ameza ateguyeho agakombe ndetse n'agasahane, akaba muri ako gakombe harimo umutobe w'imbuto yitwa indimu, iruhande hari tangawizi, izindi ndimu zisatuye n'idasatuye, bikaba byifashishwa mu kuvura inkorora.

Imiti ikomoka ku bimera gakondo, iri mu bwoko butandukanye: Hari ibinini bisa ibara ry'umuhondo, hari ibisa ibisa umweru, n'indi miti iri mu ducupa dutandukanye tugenda durutana, hari n'ibyatsi bikorwamo iyo miti.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, harimo amanini, amatoya aringaniye, afite ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru na move, hirya yaho hari ibimera ibiti, bigaragara nk'ahatunganyirizwa imiti ikomoka ku bimera.